Ibikoresho n'abakozi bashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro, barimo kwereka abanyeshuri ibyo bikoresho byifashishwaga mu kuzimya umuriro.

Abasirikare bari gukora akarasisi barimo biyereka abaturage, bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda kirinzwe, kandi nta wagihungabanyiriza umutekano.

Ingabo z'igihugu runaka zihagaze ku mirongo ziri kumwe n'umuyobozi wazo, n'ibikoresho byazo zirimo gukoma mu mashyi.

Ibyapa bimurika nka bumwe mu buryo bwifashishwa na polisi, mu gukumira no kurinda impanuka ibinyabiziga n'abantu bakoresha imihanda.

Umukozi ubifitiye ububasha arimo gutanga amabwiriza ku binyabiziga bitwara ibintu n'abantu, mu rwego rwo kwirinda impanuka zo mu muhanda.

Ikirangantego nka kimwe mu birango biranga umuco w'abanyarwanda kigizwe n'urugori, ingabo, agaseke, ikawa, ishyaka n'ipfundo.

Abamotari benshi barimo gusobanurirwa uburyo bwiza bwo gukoresha zebura korisingi ubona ko barimo kubifashwamo n'abapolisi bo mu muhanda.

Inama yagutse igizwe n'abaturage benshi bakuze, abagabo n'abagore, bicaye mu gacaca bateze amatwi ijambo ry'umuyobozi.

Ihuriro ry'abantu ahantu runaka barimo kungurana ibitekerezo ku ngingo runaka, ubona ko bateze amatwi umudamu ufashe mikorofone arimo kubagezaho ijambo.

Inama irimo kubera muri sare nziza iteguranwe isuku n'ubuhanga, ubona ko yitabiriwe n'abagore bigaragara ko ari inama ya senefu.

Inama yahuje abaturage n'ubuyobozi, abaturage bicaye mu matente, umuyobozi afashe ijambo, arimo kubaganiriza ku ngingo runaka.

Inteko y'abaturage benshi bicaye ku mabuye bari kumwe n'umuyobozi, bateze amatwi ijambo umuyobozi arimo kubagezaho muri iyo nama.

Inama igizwe n'abantu batandukanye, abagabo n'abagore bicaye bateze amatwi, umugabo umwe uri kubagezaho igitekerezo ku ngingo runaka.

Inteko nini igizwe n' abagabo, n' abagore ubona ko bicaye mu ntebe zigezweho bateze amatwi ijambo ry' umuyobozi uyoboye iyo nama.

Ahakorerwaga imirimo y'ubugeni, harimo imitako inyuranye, imikeka, intebe, bibohwa n'abasaza ubona ko basheshekanguhe.

Imbyino gakondo nka bumwe mu buryo bwifashishwa n'Abanyarwanda mu kwidagadura no gusabana n'inshuti, n'imiryango yabo.

Ibikoresho gakondo byifashishwa n'Abanyarwanda ba kera, harimo inzuho, ibicuma, imiheha, ikozwe mu biti n'inkoko.

Umuvure igikoresho cya gakondo cyifashishwaga n'abanyarwanda ba kera, gikozwe mu giti bifashishaga bari gukama inzoga cyangwa ibitoki.

Intore irimo guhamiriza bya kinyarwanda, ubona ko yabyambariye bigaragara. Yambaye amayogi, ibihura, icumu n'indi myambaro yakenyeye.

Itorero ribyina indirimbo za gakondo, ryifashisha ibikoresho bya gakondo. Harimo ingoma n'iningiri. Ubona ko rigizwe n'abagore n'abasaza.

Umwuga wo kuboha uduseke, nka bumwe mu buryo abanyarwandakazi, bifashisha mu guteza imbere imiryango yabo, bifashishije ibikoresho gakondo.

Ishoka nka kimwe mu bikoresho gakondo, abanyarwanda bifashishaga barimo gushaka inkwi, cyangwa barimo gutema amashyamba, kugira ngo babone ibiti byo kubakisha amazu yabo.

Itorero ry'umuco gakondo rigizwe n'urubyiruko rw'abahungu, n'abakobwa, n'ababyeyi, ahiganjemo abamama, n'abasore bambaye imyambaro ya gitore, n'abakobwa bafashe ibikoresho bya kinyarwanda.

Uduseke n'ibindi bikoresho biboshywe mu buryo bw'imitako, byifashishwaga n'Abanyarwandakazi bo hambere, mu kwiteza imbere.

Imbehe, igikoresho gakondo kibajwe mu giti, cyifashishwaga n'abanyarwanda ba kera, nkuko dukoresha isahani muri iki gihe.

Amasunzu uburyo bw'abanyarwanda ba kera biyogoshagamo imisatsi yabo, ku buryo buteye ubwuzu bugaragarira amaso y'ubireba.

Umukino wo gukirana urimo gukinwa n'abagabo babiri. Abandi bicaye ku dutebe barimo kureba uburyo bakirana, bishimiye umukino barimo kureba.

Uburyo bwo kwidagadura, bwakoreshwaga, mu banyarwanda, bo hambere, harimo gusimbuka urukiramende, ubona ko byakururaga ubusabane hagati yabo.

Uburyo bwa kera bwifashishwaga n'abanyarwanda ba kera, barimo gutunganya umusaruro w'ibinyampeke, hifashishijwe ibikoresho gakondo nk'intara.

Uburyo gakondo bwifashishwaga mu kwenga ibitoki, cyangwa gukama bashaka umutobe uzatarwamo urwagwa, cyangwa uzagurishwa ari umutobe.

Inkono ya gakondo abanyarwanda bo hambere bifashishaga barimo gushaka amafunguro mu mwanya w'isafuriya z'ubu. Abantu benshi bazi gukoresha.

Intore zirimo guhamiriza mu myambaro yazo ya gitore ,n'ibikoresho byazo bya gitore ubona ko zishimye ,kandi zishimishije kuzireba no kuzitegereza ,uko zigaragara ni ukuri.

Itorero rigizwe n'abahungu n'abakobwa, ririmo kubyina indirimbo za kinyarwanda. Imbere y'abaturage bicaye barimo kubareba.

Isekuru, igikoresho kibajwe mu giti, cyifashishwaga n'abanyarwanda ba kera, barimo gutunganya imiti cyangwa amafu, nk'ubugari,..

Urusyo; ibuye rinini bifashishaga barimo gusya amafu atandukanye, bifashishaga mu mirimo yabo ya buri munsi nk'abanyarwanda ba kera.

Indoshyo igikoresho cya gakondo kibajwe mu giti, cyifashishwaga n'Abanyarwanda ba kera mu mirimo yabo yo mu gikoni, ubona ko gifite ubwiza.

Umuvure nka kimwe mu bikoresho bya kera bibajwe mu biti kandi binini, byifashishwaga n'abanyarwanda barimo gukama ibitoki, cyangwa bagiye gutara inzoga.

Imbyino gakondo y'umushayayo, ubona ko ababyinnyi bizihiwe, ndetse no kuwureba biryoheye amaso, bitewe n'ubugeni bubirimo.

Amasunzu n'umurimbo w'abanyarwanda ba kera, wakoranwaga ubuhanga n'ubugeni mu kurimba, no kurimbisha ab'igitsina gabo.

Ingoma nka bimwe mu bikoresho gakondo by'umuziki. Zirimo kwifashishwa n'abanyeshuri, barimo kuzivugiriza imbere ya bagenzi babo.

Igicuma n'umuheha byifashishwaga n'abanyarwanda ba kera bari gusangira cyangwa se bari mu misango y'ubukwe nk'ibikoresho byo kunyweramo inzoga.

Umukino wo gusimbuka urukiramende, nka bumwe mu buryo bwo kwidagadura ubona ko wahujije abantu benshi, biganjemo urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa.

Agaseke n'umukeka ibikoresho byifashishwaga n'abanyarwandakazi mu gutaka no gutegura mu nzu zo hambere ku buryo bushimishije.

Itsinda ry'abantu ririmo kuvuza ingoma nka bumwe mu buryo bwo kwidagadura, Abanyarwanda bo hambere bakoreshaga mu birori runaka.

Abaturage bo hambere bafashe amacumu nka bimwe mu bikoresho bifashishaga, barinda umutekano w'ibintu n'abantu ndetse no mu buhigi warakoreshwaga.

Ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, bikozwe mu migano no mu biti, byifashishwaga mu mirimo ya buri munsi yo mu rugo bidahenze, kandi bifite ubwiza buhagije.

Intebe ya kinyarwanda ikoranywe ubuhanga buhanitse, ubona ko abanyarwanda ba kera bari bafite ubuhanga, mu gukora ibikoresho bifashishaga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri barimo kugaragaza ibikoresho gakondo byifashishwaga ku rugamba cyangwa se barimo gukora imirimo itandukanye nko guhiga inyamaswa zo kurya no kurinda imiryango yabo.

Uburyo bwa gakondo bwo gutegura amafunguro hifashishije amashyiga bagacana ku nkwi, bwakoreshwaga n'abanyarwanda benshi hataraza za gazi n'imbabura byo kuzisimbura.

Umumama wicaye urimo gucunda amata yifashishije igisabo n'umupfundikizo wacyo inzindaro, ubona ko yashyize ubwenge bwe ku murimo arimo gukora.

Umwuga w'ubukorikori wakorerwagamo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibikozwe mu ibumba no mu biti, bikagurishwa ibindi bikifashishwa mu mitako.

Inzu y'ikigonyi yubakishijwe ibyatsi n'imigano, nka bimwe mu bikoresho gakondo byifashishwaga n'abanyarwanda ba kera, mu kubaka amacumbi yabo.

Guhamiriza nka bumwe mu buryo bwo hambere Abanyarwanda bifashishaga mu birori, no mu busabane bishimira ikintu runaka, no gususurutsa ababaga bitabiriye ibirori runaka.

Ni inzu ndangamurage, igaragaramo ibikoresho bya gakondo byifashishwaga harimo:ingoma, ibisabo n'ababyinnyi.

Ni itorero ry'umuco gakondo rigizwe n'abahungu n'abakobwa rigaragara ko riri mu guhamiriza imbyino za kinyarwanda mu myambaro y'intore.

Imiterere y'Abanyarwanda ba kera barimo gusokoza amasunzu nka bumwe mu buryo bwo gutaka no kurimba, bwabagaho mu gutegura abaturage b'icyo gihe.

Ibikoresho bya gakondo byifashishwaga n'abanyarwanda ba kera mu mirimo yabo ya buri munsi, harimo ibisabo, ibiseke, ibicuba, bifashishaga barimo gucunda amata.

Itorero ry'umuco ririmo kubyina indirimbo za kinyarwanda. Bamwe bari kuvuza amakondera nk'ibikoresho bikozwe mu mahembe, abandi barimo guhamiriza.

Inka z'inyambo nka bumwe mu bworozi bwakorwaga n'abanyarwanda bo hambere, bwatangaga umusaruro, ndetse zikifashishwa no mu birori bitandukanye byo hambere.

Igitebo cyangwa se igiseke kinini, Abanyarwanda ba kera bifashishaga mu guhunikamo imyaka, nk'uko ab'ubu bifashisha imifuka.

Ubucuruzi bw'ibikoresho gakondo harimo: imyuko, imbabura, inkoko, udutebo n'ibindi binyuranye byifashishwaga mu mirimo yo mu rugo.

Ubworozi bw'inzuki zororewe mu mizinga ya kijyambere, ubona ko n'umuvumvu arimo kuzihagura, yambaye ibikoresho bya kijyambere bitabangamira ibidukikije.

Ibikoresho gakondo byifashishwaga n'Abanyarwanda bo hambere, mu mirimo itandukanye, ndetse bimwe bikifashishwa n'amatorero ya gakondo harimo imyambi, ingabo n'agaseke.

Amayugi. Ibikoresho gakondo byifashishwaga n'Abanyarwanda bo hambere mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi, harimo guhiga no kubyina.

Iningiri, igikoresho gakondo gikozwe mu giti n'amakamba, cyifashishwaga n'Abanyarwanda ba kera, mu gucuranga no kunoza umuziki wabo.

Umuheto nk'igikoresho cyifashishwaga mu kurinda umutekano， kikifashishwa no guhiga inyamaswa， bifashishaga barya bakanakuramo imyambaro.

Itorero ry'umuco nyarwanda rigizwe n'abagabo n'abagore bambaye imyambaro yabo. Aba mama bambaye imikenyero myiza n'abagabo mu myambaro ya gitore.

Umuco wo hambere ugaragaza abanyarwandakazi bo hambere, bategaga amasunzu ukabona ko bibabereye, bagaragaraga neza cyane.

Ni umucuranzi gakondo wifashishaga ibikoresho bya gakondo, harimo umuduri, ubona ko akiri mutoya nk'urubyiruko, ashaka kwiteza imbere.

Inkono za kinyarwanda zikozwe mu ibumba, zifashishwaga n'abanyarwanda ba kera mu mirimo yabo ya buri munsi, cyane cyane nko gutekerwamo no kuvomeshwa.

Inyubako za leta zigaragarako zikorerwamo ibijyanye n'ubuhinzi cyangwa ubworozi, ubona ko zigezweho muri iki gihe.

Harubakwa ibikorwa remezo byifashishwaga mu gutanga akazi ku baturiye aho hantu birimo gukorerwa ku rubyiruko n'abandi bafite imbaraga zo gukora.

Ibikorwa remezo by'ibiraro n'imihanda, byubakwaga na leta kugira ngo bifashe abaturage, mu koroshya ubuhahirane n'imigenderanire hagati yabo n'abandi.

Ibiro by'Akagari aho umuyobozi nshingwabikorwa w' Akagari akorera, n'umuyobozi ushinzwe iterambere cyangwa se ubukungu bakunze kwita Sedo.

Inyubako za Leta zubatswe ku buryo bwa kijyambere, ubona ko zagenewe gukorerwamo imirimo itandukanye, harimo nk'iyo bakwifashisha, ubona ko zabamo nk'inganda.

Urugomero rw'amashanyarazi, ahakusanyirijwe insinga n'ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, mu bice bitandukanye by'igihugu.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bwa kijyambere ikorerwamo n'ubuyobozi, ubona ko itanga ubwisanzure buhagije ku bayikoreramo n'abaturage baza kuyakiramo serivisi.

Inyubako za Leta zubatswe ku buryo bugezweho, zikorerwamo imirimo itandukanye, ifasha abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi.

Inyubako za Leta zikorera mu buyobozi，batanga serivisi ku baturage babagana， aho bakorera mu bintu bitandukanye.

Inyubako za Leta ubonako zubatswe ku buryo bwa kijyambere, zakwifashishwa mu gutuza abaturage benshi, no kubaka imidugudu y'icyitegererezo.

Iyubakwa ry' ibikorwaremezo, nk' imihanda n' ibiraro nka bumwe mu buryo bwifashishwa na Leta mu kunoza, imigenderanire n' imihahiranire hagati y' Uturere n' abaturage.

Inyubako za Leta zubatswe ku buryo bugezweho cyangwa bujyanye n'igihe, zifashishwa mu gutuzamo abaturage benshi ku butaka buto.

Inyubako za leta zikoreshwa n'amashuri, abanyeshuri bazigiramo, ababyeyi bazindukiye hafi y'amarembo y'iryo shuri.

Inyubako nyinshi zubatswe ku buryo bwa kijyambere za Leta, zikorerwamo imirimo itandukanye ubona ko ziri ahantu hagutse.

Inyubako ya Leta, yubatswe ku buryo bwa kijyambere, icururizwamo ibikoresho bya kijyambere, bikozwe mu mbaho, mu rwego rwo guteza imbere abaturage.

Ni ahantu hagaragaza amashyamba ,amazu menshi ubona ko hameze nk'aho ari imiturire y'umujyi. Ku buryo aka gace kagaragara nk'aho ari keza ku bantu bifuza gutura ahantu hatuje.

Inzu za leta zubatswe ku buryo bugezweho, zifite n'ibikorwa remezo byorohereza abaturage bazituyemo, kubona ibisabwa byose.

Inzu y'ubuyobozi ubona ko iri ahantu h'icyaro igaragara ko ishaje, ifite igisenge gishaje ariko ikenewe kuvugururwa kuburyo yaba nshyashya.

Inyubako za Leta, zigomba gukorerwamo n'abayobozi, zubatswe ku buryo bwa kijyambere, ubona ko zibereye aho ziri.

Inyubako za Leta zubatswe ku buryo bugezweho, ubonako zizacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye n'abacuruzi baturutse ahantu hatandukanye.

Inteko y'abaturage bahagaze mu gacaca, batonze imirongo irimo kubazwa n'umuyobozi ku byerekeye uburenganzira n:ubucamanza bahabwa.

Inteko y'abaturage benshi bari kumwe n'umuyobozi. Abaturage bicaye muri sitade, umuyobozi afashe ijambo arimo kubasobanurira ibijyanye n'uburenganzira n'ubutabera.

Inteko y'abaturage n'abayobozi batandukanye， barimo gusobanurirwa ibijyanye n'uburenganzira bw'abantu， n'ubutabera kuri serivisi zitandukanye.

Abaturage bicaye mu nteko. Umuyobozi arimo kubasobanurira uburenganzira ku bijanye n'amategeko n'ubucamanza bagomba guhabwa.

Inteko y'abaturage iri ahantu hateguwe neza, hateraniye abagabo n'abagore barimo gutanga ubutabera. Abayobozi barimo kumva ibibazo ku by'abaturage.

Inteko rusange igizwe n' abaturage bicaye ku ruziga n'umuyobozi arimo kubaha amabwiriza bamwe bicaye ku gacaca, abandi bahagaze, bategereje kumva ibyo umuyobozi arimo kubabwira.

Ni inteko y'abaturage: bamwe baricaye mu gacaca, abandi batonze umurongo aho bateze amatwi umumama urimo gutanga ubuhamya ku kintu runaka.

Imodoka nini zifashishwa mu gutwara imizigo, nka bumwe mu buryo bwo gutwara imizigo myinshi kandi vuba ku baturage.

Uburyo bwa kijyambere bwo gutwara abantu n'ibintu, hifashishijwe ibibisi binini, mu rwego rwo gutwara umubare mwinshi, no kugabanya akajagari k'imodoka.

Hari za moto zihahagaze, umucuruzi uri gutanga amayinite, umutaka ucurururizwagamo uduconsho duteretse ku kameza, ibikapu biteretse munsi y'ameza iruhande rw'inzira.

Amagare meza cyane ya siporo, agaragara mu mabara atatse idarapo ry’igihugu cyacu, ubona ko yifashishwa n’abaturage mu ngendo zabo za buri munsi.

Ubwato bugezweho butwara abantu benshi, nka kimwe mu bikorwa remezo cyifashishwa mu gutwara abantu benshi, no koroshya imigenderanire hagati y'imirenge n'indi.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe moto z'amashanyarazi mu mujyi wa kigali nk'uburyo budahumanya ikirere.

Muri gare, ahantu runaka, ahaparikwa ibinyabiziga byiganjemo ibyo mu bwoko bwa za ritiko bitwara abantu n'ibintu, ku buryo bugaragarira amaso.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu，hifashishijwe imodoka zo mu bwoko bwa kwasiteri za kampani imwe yavorukano itwara abantu n'ibintu.

Ni impunzi zigaragara ko ziva ahantu hari imyigaragambyo, cyanga se intambara cyanga se ibiza runaka ku buryo bashaka kujya ahantu hatashira ubuzima bwabo mu kaga.

Uburyo bugezweho bwo gutwara abantu n'ibintu, hifashishijwe amamodoka manini mu rwego rwo kugabanya akajagari, kagaragara mu mihanda y'umujyi w'i kigali.

Ahatangirwa serivisi zo gutwara abantu n'ibintu, hifashishijwe bisi nini za volukano, zitatse amabara y'ubururu n'umweru.

Uburyo bwo gutwara imizigo hifashishijwe imodoka ntoya zizwi nk'amatoyota, mu kugeza umusaruro mwinshi ku isoko.

Uburyo bugezweho bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe ibibisi binini, amamoto n'amamodoka matoya, bigaragara ko ari byiza.

Umwana w'umukobwa watinyutse gukora ibyo abandi badapfa gutinyuka gukora . Harimo nko gutwara moto ubona ko atwara Lifani , agatwara imizigo.

Imodoka nini zifashishwa mu gutwara imizigo, ziyivana mu gace kamwe zikayijyana ahandi, ku buryo bwihuse kandi butwara imyaka myinshi.

Uburyo butandukanye bwo gutwara abantu n'ibintu ahantu bigaragara ko ari mu mijyi hifashishijwe amapikipiki n'imodoka ntoya za twegerane ubungubu zisigaye zikorera mu byaro.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe inzira y'amazi. Ubona ko abagore na bo batahejwe cyangwa ngo basigare inyuma mu gukora ako kazi kababyarira inyungu.

Moto y'amapine atatu izwi nka lifani, yifashishwa mu gutwara imizigo, igafasha guteza imbere abayikoresha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Uburyo butandukanye bwifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu mu mujyi runaka harimo urubisi runini, utumodoka dutoya n'abanyamaguru bari kugenda ku maguru.

Muri gare ahari urujya n'uruza rw'abantu benshi, bashaka kujya mu bice bitandukanye bifashishije ibibisi binini bya Volukano. Ubona ko ingendo zabo ziri buborohere.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ahantu hagaragarako ari mu mujyi cyangwa se mu gasantere, kegereye umujyi bibanda kuri za moto, n'amamodoka matoya.

Uburyo bugezweho bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe imodoka nini, mu rwego rwo kugabanya akajagari n'ambutiyaje mu muhanda.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe utugare tw'amapine atatu, cyangwa abiri, dukururwa cyangwa tugasunikwa n'abantu.

Abanyonzi bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bifashishije amagare ,ubona ko baparitse bategereje abagenzi bo gutwara.

Urubyiruko rurimo gukina umukino w'intoki dukunze kwita voreboro, ubona ko harimo guhangana ku mpande zombi, bakina kandi bishimye.

Urubyiruko rufite ubumuga bw'ingingo, na rwo ntirwahejwe mu mikino itandukanye . Ubona ko aya makipe arimo gukina umukino w'intoki wa voreboro.

Umukino wo gusiganwa ku modoka ubona ko ukinirwa mu mihanda y'igitaka abaturage baje kwihera ijisho akavumbi karimo gutumuka.

Itsinda ry'abari mu marushanwa y'amagare ubona ko barimo kugendera mu kivunge ahantu mu ikorosi bakurikiwe n'imodoka yabugenewe.

Ni abana b'abanyeshuri barimo gukina umupira w'intoki, ariwo dukunze kwita voreboro. Bamwe bambaye amajile abandi bambaye udupira tw'ubururu kugira ngo batandukane.

Abantu babiri barimo gukina umupira w'intoki dukunze kwita volebolo, abandi bahagaze impande zabo barimo kwitegereza uburyo barimo gukina uwo mukino.

Raporo ntigikorwa n'abantu badafite ubumuga gusa, ahubwo n'abafite ubumuga bw'ingingo cyangwa ubumuga butandukanye, bashobora kuyikora nk'uko iri kugaragazwa n'aba bantu.

Umukino wa tenisi urubyiruko rwifashisha rurimo kwidagadura ariko ukaba utazwi n'abantu benshi, kubera ko ibikorwa remezo byawo ari bikeya mu gihugu.

Imodoka irikunyura mu muhanda, wuzuyemo ivumbi n'umukungugu mwinshi, ku buryo hatagaragara ibiri inyuma muri uwo muhanda utamenya ngo ikurikiwe n'iki?

Umukino w'intoki dukunze kwita "voleboro" uri gukinwa n'amakipe abiri ahanganye, imwe yambaye umutuku n'ubururu, indi yambaye umweru urimo agatuku gakeya n'abafana benshi bahagaze bari gufana amakipe yabo.

Umukino w' intoki (wa hendi bolo) ni imwe mu mikino ifasha abantu kwishima no gukora siporo, imaze kugira ibikorwaremezo byinshi n' abakunzi bawo benshi.

Abakinnyi ba vole barimo gukina umukino w' intoki wa vole bolo, abandi bantu bicaye barimo kureba, ubona ko ari ahantu heza barimo gukinira.

Umukino wa kiriketi nka bumwe mu buryo bwifashishwa mu gukora siporo, ariko ukaba utaramenyekana, cyangwa ngo ukwirakwire mu bihugu byinshi.

Ikibuga cyigishirizwaho umukino wa tenisi, ubona ko harimo abana barimo gukina, umutoza wabo arimo kubaha amabwiriza y'uko uwo mukino ukinwa.

Ikipe y'umukino w'intoki bakunze kwiyitaHendiboro igizwe n'abanyezamu bane, abakinnyi bapfukamye abandi bakinnyi barahagaze umutoza wabo.

Umukino w'intoki dukunze kwita tenisi, abantu benshi badakunze gusobanukirwa, kuko ukinirwa mu mijyi n'ahandi hari ibibuga byawo, byawuteganyirijwe gusa.

Isiganwa ryamagare rishungerewe nabantu, bahagaze impande z'imihanda bamwe barimo gukoma amashi bigaragara ko bishimiye umukinnyi ubanyuzeho.

Umukino wo gusiganwa ku maguru, nka bumwe mu buryo urubyiruko rwifashisha, rurimo gusabana na bagenzi barwo no kwirinda kujya mu biyobyabwenge.

Umukino wo gusiganwa ku maguru. Urimo gukinwa n'abari n'abategarugori. Nka bamwe mu bari barahejejwe mu mikino nk'iyi ngiyi. Bitewe n'imyambarire n'umuco wa kinyarwanda.

Umuhanda wa kaburimbo wifashishwaga n'abatwara ibintu n'abantu ku magare，ubona ko hagaragara abanyamagare baparitse bategereje abagenzi.

umuhanda wo mu giturage aho banyuraga ku mapave y'iruhande rwa kaburimbo, mu buryo butateza impanuka abahanyura kuko nta binyabiziga bihagenderaga.

Umuhanda wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho woroshaga ubuhahirane hagati y'abaturage bavanaga ibintu hamwe bakabijyana ahandi.

Umuhanda wa kaburimbo wifashishwaga mu gutwara abantu n'ibintu nk'inzira yo ku butaka ndetse ifite n'akayira k'abanyamaguru ku mpande mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Agahanda k'amapave kubabatswe, kugira ngo gafashe abaturage bagakoresha, kutabangamirwa n'ivumbi ndetse n'ibyondo mu gihe cy'imvura.